Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye mu ntebe z'imisego, z'umukara ndetse imbere yabo hari mudasobwa, amazi, inyuma yabo hari amagambo ahanditse agira ati "Kigali yacu Kigali ikeye"

Abantu bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe nziza, bafite ibirahuri byamazi ndetse n'amacupa, amakaye n'amakaramu, bari kwitegereza.

Abagabo bicaye ahantu heza, bigaragara ko bari mu nama, umwe muri bo yambaye ikoti, abandi bambaye amashati y'imyeru. Bafite icupa rimwe riteretse imbere yabo ndetse n'insakazamajwi kuri buri muntu. Bari gutekereza bigaragara ko hari ikintu runaka barimo kwibazaho.

Ababyeyi bateraniye ku kigo cy'amashuri ndetse bicaye mu mahema. Hari umuyobozi uri imbere uri kubagezaho ibyo yateguye, yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y’umukara n'umupira w'umweru, ubona ko bakurikiye cyane.

Abantu benshi bambaye imyenda isa, bicaye mu ntebe nziza, bafite amazi ndetse bifashe munsi y'akanwa, abandi bifashe ku minwa.

Abayobozi batandukanye bateraniye mu nama, bose bicaye keretse umwe uhagaze inyuma yabo, imbere yaho hari icupa ry'amazi buri wese afite telefone, afite ndetse n'agatabo yandikamo ibitekerezo, bose ubona bakurikiye.

Abantu batandukanye bari mu nzu nziza bakurikiye inama, iruhande rwabo hari amazi ndetse n'insakazamajwi. Bicaye ku ntebe nziza zifite irange ry'umutuku kandi muri iyo nama harimo abagabo n'abagore.

Abantu batatu bicaye mu ntebe z'abanyacyubahiro, harimo abagore babiri n'umugabo umwe, inyuma yabo ku rukuta handitseho amagambo agira ati Kigali yacu Kigali Ikeye, imbere yabo hari indangururamajwi zigezweho ndetse na mudasobwa bareberamo.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo bicaye mu nzu bafite amakayi n'amakaramu ndetse banambaye imyenda myiza, mu nzu barimo ifite amakaro kandi ifite n'ibishushanyo, harimo n'icyapa kigaragaza ibyo bari kuganiraho.

Abantu bicaye mu nzu nziza ifite ibirahure n'inzugi, ikagira amazi abari imbere ku meza ifite ibitambaro bibiri icy'umweru n'umuhondo, hakaba hateretseho indabyo n'udukapu.

Abantu bambaye impuzankano bicaye muri sale, imbere yabo hari umugore wambaye isharupe y'umukara ndetse afite n'indangururamajwi, imbere yaho hari icupa ry'amazi.

Ihuriro ry'ingeri zitandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, bari kuganira ku ngingo zitandukanye, buri wese afite agatabo ari kwandikamo , muri abo abantu kandi harimo ufite umwana, bose bafite amazi imbere yabo, bakurikiye ubagezaho ikiganiro.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara, ameza y'umukara, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse bakagira n'ikayi, uri kubigisha yambaye ipantaro iri gusa umukara, ishati y'umukara n'ipantaro n'ikaruvati irimo amabara.

Umugabo wambaye ikote ipantaro ya kacyi n'inkweto z'umukara ufite indangururamajwi n'agatabo mu ntoki, hari abicaye mu ihema bafite amakayi bambaye imipira y'imihondo n'umweru bateze amatwi.

Abantu benshi batandukanye, bari mu nama, imbere y'abo hari mudasobwa, amakaye ndetse n'amakaramu, bicaye ku ntebe nziza, n'ameza manini ariho ibitambaro, bifite ibara risa, ritari umutuku, risa n'ikijuju

Abantu batandukanye bari mu cyumba bafite impapuro mu ntoki, abagabo bambaye amakote n'abagore mu makanzu meza, imbere bafite imashini nini ndetse bicaye mu ntebe z'imisego zifite iri bara ry'umukara.

Abagabo benshi bamwe muri bo bambaye imyenda y'akazi y'umweru, abandi ntayo bambaye, bari muri sale, bicaye ku ntebe nto, bateze amatwi bariri imbere.

Abayobozi batandukanye, bicaye mu nama, imbere ya buri wese hateretse icupa ry'amazi n'insakazamajwi, bicaye barebana, bari kuganira ku bintu bitandukanye byakubaka igihugu.

Abantu bane, babiri bahagaze abandi bicaye. Abicaye inyuma yabo hari imodoka z'umuhondo, umutuku, n'umweru ndetse n'inzu z'ubucuruzi zikoze mu buryo zubakishije amakaro inyuma.

Abantu bicaye mu ntebe z'umuhondo, bambaye impuzankano zisa ndetse bamwe muri bo bafite ingofero, imbere yabo hari amazi ndetse n'ikayi bari kwandikamo, bose bakurikiye urimo kubabwira.

Abantu benshi bateraniye mu nama, hari indangururamajwi imbere yabo, zamudasobwa ndetse bamwe bafite amakaye n'amakaramu, abenshi muri bo b'abagabo bambaye amakoti n'abagore bo muri bo bambaye neza amakanzu.

Abantu benshi bateraniye mu nyubako ngari, bicaye mu ntebe z'umukara ndetse n'ameza abari imbere. Bafite impapuro, ikirahuri ndetse n'icupa ry'amazi. Hamwe na hamwe, hariho udusahani tw'umweru.

Abantu benshi bari mu nyubako, ndetse imbere yabo ku meza hari amazi, bafite amakaye n'amakaramu, bamwe muribo bafite mudasobwa. Hari umukobwa uhagaze imbere yabo, wambaye ishati iriho amabara y'ingwe, ndetse n'ijipo y'umukara. Ku rukuta rw'iyo nyubako, hariho ibishushanyo byinshi bihatatse.

Abantu bambaye imipira isa, umwe muri bo afite indangururamajwi, umuri inyuma afite icyuma gifotora ndetse n'umwenda ugaragaza ko yatumwe na televiziyo runaka, bicaye imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Abantu batatu bambaye impuzankano z'umushinga runaka bafite amazi mu ntoki ya Nile ndetse n'ameza ateguye neza ariho ibisabwa byose.

Abantu batandukanye bicaye mu nyubako, barandika byimazeyo, bigaragara ko hari inyigisho barimo guhabwa. Imbere yaho hari ameza afite igitambaro cy'umutuku, hariho igitabo, bigaragara ko bateze amatwi.

Abantu benshi bicaye, barimo gutega amatwi ibihavugirwa, hari itenti rimwe, ndetse n'ibiti bitatu, hakaba n'inyubako ifite ibara ry'umuhondo n'amabati y'umutuku, ndetse ibyuma byo ku madirishya ni umweru.

Abantu benshi bateraniye mu nama, bayobowe n'umugore wambaye indebakure, afite umusatsi uringaniye, yambaye ikanzu y'umweru irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku n'inkweto z'umukara, abamwicaye imbere bafite amakaye n'amakaramu.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe ndetse hari n'abashinzwe umutekano twavuga nk'abasirikare hari umubyeyi ubahagaze imbere uri kubasuhuza n'ikinyabupfura cyinshi.

Umugabo wambaye ishati ya kake isaha ku kuboko ndetse n'agasaraba ku kundi afite umusatsi uringaniye, imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa, inyuma ye hari icyapa kiriho idarapo y'u Rwanda.

Abantu batari bake bicaye muri sare y'inama, imbere yabo bafite amazi ndetse hari n'ameza ariho igitambaro cy'ubururu n'umuhondo, bicaye ku ntebe z'imikara ndetse bamwe muri bo bafite za mudasobwa.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'abandi, umugore wambaye ingofero ndetse n'indorerwamo y'amaso, umugabo nawe yambaye ikote n'isaha ku kuboko ndetse n'impeta, akaba afite insakazamajwi mu ntoki, bigaragaza ko arimo gutanga ikiganiro ku bamuri imbere.

Umusirikare wicaranye n’abantu benshi ahantu habaye ibintu runaka, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy’umuhondo n’indabyo zirimo umweru, icyatsi ndetse n’ubundi bwoko bw’amabara, hariho n'agakapu k'umwe mu babyeyi bahicaye.

Imbaga y'abantu bicaye mu nama, ameza bariho afite ibara ry'umweru ndetse bafite n'ikaramu mu ntoki, urukuta rwabo ni umuhondo ndetse hakaba hari n'utwumba dutoya tuba turi hafi aho hantu.

Umugabo wambaye ikoti, afite indangururamajwi n'igitabo imbere ye, ahagaze iruhande rw'urukuta, hari n'abandi bicaye hirya ye bifashe neza. Bakurikiye ibyo ari kuvuga.

Abantu batandukanye bahuriye mu nzu y'inama, buri wese afite mudasobwa imbere ye, bigaragara ko hari ibintu bitandukanye, bari kwigaho, bakaba ari byo byabahurije hamwe.

Abantu batandukanye bari mu nama, bicaye ndetse bafite na mudasobwa, amazi ndetse n'udutabo two kwandikamo ibiri buhavugirwe, imbere yaho hari indabyo nziza ziteguye ku meza ndetse iyi nzu iteye ubwuzu.

Abantu benshi bicaye mu nzu nini, harimo icyapa cyanditseho insanganyamatsiko yo kuganiraho, ndetse n'uhagaze imbere ari kuyobora iyo nama. Yambaye ikanzu y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi cyane bicaye musare, ubona barimo kwandika ibintu bitandukanye, buri wese afite icupa ry'amazi ndetse hari n'indangururamajwi imbere yabo, bari ku meza zifite ibara ry'umukara ndetse buri wese afite ikayi, kandi bose barakurikiye.

Abagabo n'abagore bicaye mu ntebe z'imikara, ameza afite igitambaro cy'umukara, hariho amacupa y'amazi ndetse amatelefone n'amakayi nabyo niho birambitse. Bamwe muri bo, bambaye udupfukamunwa, abandi bambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu nama, harimo abashinzwe umutekano, twavugamo; abapolisi, abasirikare ndetse n'abaturage basanzwe n'umuyobozi uhagaze imbere yabo ufite insakazamajwi, wambaye isaha n'ishati urimo gutanga ikiganiro.

Akazu kariho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibikorerwa mu Rwanda, imikindo miremire, ndetse inyubako y'ubucuruzi inyuma y'ako kazu, hari n'inzira icamo abanyamaguru.

Abantu benshi bambaye imipira y'umutuku amapantaro y'imikara ndetse n'inkweto, inyuma y'abo hari abagabo bambaye imyenda itandukanye n'iy'abo kandi bose bafatanye urunana.

Intambwe ya kabiri kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, hari telefone, hari na mudasobwa ibisabwa, usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda ku irembo.

Urupapuro rwanditseho amagambo atandukanye, amasaha y'akazi mashya. Rukagira imibare, rukagira ndetse n'ikirangantego cy'igihugu.

Sisiteme iba muri telefone iri kwerekana ibi bikurikira, handitseho amagambo agira ati" uyu munsi ntiryo herezo". Handitse imibare ushobora gukanda kugira usure urubuga rwabo. Akanyenyeri magana inani akego.

Ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi birundanyije, rizwi ku izina rya pariki ndetse n'ibimera by'icyayi biri ahantu hamwe, hameze nko ku musozi.

Umunara munini, inyuma yaho hari akazu gatoya, ibiti byinshi, insinga zigenda mu kirere ndetse n'urukuta rufite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyanditseho aya magambo akurikira; repubulika y'u Rwanda ndetse hariho n'iikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, munsi yaho handitseho komisiyo y' igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta.

Inyubako nziza cyane iriho ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse hari n'indi iri inyuma yubakishije amatafari, hari pinusi n'ikindi giti kiri iruhande rw'ahantu h'umweru,

Impine z'ijambo REB, bisobanuye ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, kandi urabona ko munsi y'izo nyuguti, handitseho amabara agize ibendera ry'igihugu.

Icyuma kinini kiriho utundi dutoya dufite anteni ndetse hariho n'insinga zitandukanye, hari ikirere kiri, cy'ubururu bwijimye.

Ku muhanda hari inyubako iriho ibyapa bitandukanye kandi kuri byo handitseho amagambo avuga ngo ni ikaze, hariho amabendera y'ibihugu ndetse hari umuhanda urimo imodoka ziri kugenda ndetse n'indabyo hafi yawo.

Abantu batanu bicaye ku meza bari kuganira, imbere yabo hari za mudasobwa, amaterefoni, impapuro ndetse hari n'abandi inyuma yabo bicaye ukwabo.

Icyapa kiriho abantu babiri cyanditseho amagambo irembo, ndetse hariho na kamera umugore yicaye munsi yacyo yambaye ijiri y'abatanga ama inite iruhande rwe hari inyubako zitandukanye.

Hari ahanditse hati dore uko wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje telefoni, hari moto y'umutuku n'umukara, ndetse n'imodoka y'umweru n'umuhondo, hari telefone inyuma yayo yanditsemo akanyenyeri magana inani urwego.

Abagabo batatu umwe ahagaze hanze yifashe ku munwa ndetse ushinzwe umutekano kuri iyo nyubako nawe yicaye iruhande rw'undi nawe wifashe ku munwa. Bose bigaragaza ko hari ikintu kibaye barimo kwitegereza.

Urupapuro rwanditseho amatariki y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri. Bavugamo itariki cumi n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri, itariki mirongo itatu ko hari ibintu byinshi bitandukanye bizakorwamo.

Ibiti byinshi ndetse umunara munini hakaba n'inyubako nyinshi ziri hafi y'uwo munara, hari ibicu byiza by'umweru ndetse n'ibindi byivanganze, ubona ko bitanga imvura.

Umugabo uhagaze mu muryango wambaye ingofero, yambaye ishati irimo amabara atandukanye ndetse kuri uwo mu muryango w'inzu hariho ibishushanyo byinshi bitandukanye, hashushanyijeho imodoka. Inyuma y'iyo nzu haparitse imodoka.

Umusore wambaye ingofero n'ishati, yicaye mu icapiro, hari imashini zisohora impapuro, hari n'imashini yandikisha, bita mudasobwa, hari ameza, meza ateye ubwuzu ndetse n'ibindi bikoresho byikoranabuhanga bitandukanye.

Telefone iri mu ibara ry'icyatsi iri kugaragaza amakuru atandukanye. Shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye.

Inyubako ndende iri ahantu hitaruye izindi nyinshi zigaragara hakurya yazo, hariho ibyuma hejuru ndetse ikagira n'ubusitani burimo indabyo zimwe nziza zigezweho.

Ku muhanda wa kaburimbo hari urujya n'uruza, inyubako zisanzwe ndetse n'ibyuma bitandukanye biri ku ruhande, bikoze uruzitiro.

Icyuma cyubatswe nk'umunara kiriho insinga zitandukanye, zijya mu byerekezo bitandukanye, munsi yacyo hari ibiti byinshi ku musozi, kandi byose urabona ko byerekeje uruhande rumwe.

Umuhanda moto ziri kugenda, uruhande rwawo hari ibyuma biriho umuriro w'amashanyarazi ndetse hari n'imodoka zirimo kuwugendamo n'abantu bari kugenda ndetse hari n'utwaye igare.

Ibisenge by'inzu bitandukanye, hari igiti kiriho insinga nyinshi ndetse n'ibituma insakazamashusho igaragaza amashusho neza biri hejuru ku gisenge.

Inzu zubatswe mu buryo butandukanye ndetse hari n'umunara ugaragaza aho insinga z'amashanyarazi zinyura, ndetse muri izo nzu zubatse mu buryo butandukanye, harimo intoya n'indende.

Inyubako iteyemo indabyo ndetse ikaba izengurutswe n'amatara, n'amadirishya afite ibyuma, inyuma y'inyubako hari ibiti bihinguka ku gisenge kandi muri iyi nyubako hacamo ifoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, hariho udusanduku tubiri tuba turimo insinga nyinshi aho zigenda zihurira, hari ibiti biri hafi yayo ndetse n'inyubako inyuma yayo.

Insinga nyinshi zinyuranye, amatara ari ku muhanda ndetse n'inyubako izengurutswe n'ibyuma. Hari amagambo yanditseho agaragaza izina ry'aho hantu.

Abakozi bakora mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi buriye ibyuma, bambaye ingofero z'akazi ndetse n'imyenda y'akazi' imikandara ibafata kugira ngo ibarinde kugwa bakangirika.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Inyubako yegereye ipoto ririho insinga ndetse n'itara ryo ku muhanda, hegamyeho matela nyinshi nshyashya ndetse hari ibiti byinshi, hagati yabyo harimo indi nyubako y'umweru ifite n'urusinga hejuru.

Icyapa kiriho umurongo w'umutuku n'umweru ndetse n'umukara. Ikindi kandi, kikaba ari Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Amashanyarazi.

Inyubako nto ifite urugi rw'ikirahure, ikagira amabati ashaje ndetse n'ipoto ririho insinga nyinshi n'ururabyo ruteye imbere y'umuryango.

Imodoka isa umukara irimo irinjira mu muhanda wa kaburimbo imbere yaho hari icyapa gisa umutuku cy'umurongo w'itumanaho wa Eyateri iruhande hakaba hari igipangu cy'icyatsi kiriho urukuta rw'umweru hari amatafari ya ruriba n'ibyapa byo mu muhanda bikoreshejwe ibyuma, imodoka ziri imbere hari n'igikuta cyanditseho mitsingi .

Inzu ebyiri zifite amabati ashaje, igiti kinini ndetse n'urukuta, hari itara riri ku muhanda ririho n'icyapa, n'ipoto ririho insinga nyinshi zijya mu byerekezo bitandukanye, n'icyapa cyerekana amerekezo, giciyemo umurongo utukura.

Inyubako nto ndetse n'imodoka nto, zegeye umuhanda. Hari ibiti, ibyatsi bito ndetse n'ibini. Hari amapoto atwaye umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Iruhande rw'inzu hahagaze imodoka nyinshi, hari moto ziri mu muhanda ndetse hari indabyo iruhande rw'umuhanda n'abantu bahagaze babiri bari kuganira, inyuma y'indabyo hari ibyuma bihari bitandukanye.

Inyubako nyinshi ziri mu mujyi, hari ifite ibirahure by'umukara n'ibyuma by'umweru imbere yayo ku marembo hari ipoto iriho insinga nyinshi. Hahagaze akamodoka gato gatwara imizigo.

Mu nyubako mo imbere, harimo imashini zitandukanye, zimwe zitwara umuriro mu nzu yose ndetse inyuma yaho, hari n'izindi mashini zikora ibindi bintu bitandukanye.

Icyuma kinini cyubatse nk'umunara, kirimo insinga nyinshi zitandukanye zijya mu byerekezo byinshi, munsi y'icyo cyuma hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi by'amoko yose biteye ahantu hameze nko ku musozi.

Inyubako nziza iteye ubwuzu, irimo amarangi atandukanye, harimo n'ibirahure ndetse hari intebe zakirirwamo abantu hagati mu kirongozi.

Ikigo runaka gifite aho bahagarika imodoka ndetse hari n'ubukarabiro, umugabo aragenda asatira ubukarabiro, yambaye ipantaro y'ikijuju akambara n'umupira w'umuhondo, yambaye agapfukamunwa, ari hagati na hagati y'ikibuga bahagarikamo ibinyabiziga.

Mu kigo nderabuzima, harimo imodoka zitwara abarwayi, amatara ahamurikira, ubusitani bwiza, burimo indabyo n'imikindo ndetse n'izindi modoka z'imikara zitwara abagenzi batandukanye.

Inyubako nziza ifite irangi ry'umuhondo, irimo ibirahure binini, bifite icyuma kizimya inkongi y'umuriro n'ibyuma biri hanze ndetse hakaba n'igitanda gifite amapine, n'imodoka iri mu rubavu rw'iyo nzu.

Inyubako iriho amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, hafi yayo hari umugore uri ku nzira wunamye ku cyuma ndetse n'undi mugore urimo gutambuka hafi y'ubusitani bw'iyo nyubako.

Inzu nini cyane ifite amarembo magari, ikagira n'amabara y'umweru ku madirishya, hari imodoka ebyiri zihahagaze, imwe itwara imizigo indi itwara abarwayi.

Ku kigo nderabuzima hari abantu baryamye ku bitanda ndetse amatara ari kwaka, hari amashuka, amwe azinze andi atazinze, hari amashuka y'umweru biyoroshe andi ari hejuru.

Abantu benshi bari mu bitaro, bamwe bari ku bitanda byabo, hari inzitiramibu ndetse hari n'abandi bari gufasha umuntu ugaragara ko afite ikibazo n'umukobwa umuhagaze imbere, witeguye gufasha uwo murwayi.

Imodoka zitwara abarwayi ikenda zitandukanye zifite amatara hejuru, hari abagabo bahagaze hafi yazo ndetse n'inyubako nyinshi zigaragaza ko ari kwa muganga.

Mu kigo harimo abantu benshi batandukanye, hari abashinzwe umutekano wo ku muryango ndetse n'inyubako nyinshi zitandukanye, zifite amabati y'umutuku.

Imodoka itwara abarwayi ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi, ihagaze iruhande rw'inyubako hariho umusaraba ndetse n'amatara hejuru y'iyo modoka, ifite amapine maremare kandi ntijya igenda gakeya ahantu hose irihuta.

Icyapa kinini cyane, kiriho amagambo agira ati Repubulika y'u Rwanda, Umujyi wa Kigali Akarere ka Gasabo, mu mpande yacyo hariho ikirangantego cy'u Rwanda, hakabaho n'ibendera ry'igihugu, giteretse hagati y'inzu ebyiri.

abagabo basohotse muri gereza bambaye imyenda itandukanye hari abambaye amapantaro hari abambaye n'uwambaye ikabutura bambaye ingofero abandi bafite ibikapu mu ntoki.

Umugabo uhagaze hagati y'amakarito menshi ariho ibyapa byinshi, yambaye ishati y'umweru irimo utudomo ndetse akambara n'ipantaro y'ubururu, umukandara w'umukara, akaba afite n'ibirahuri by'amaso.

Umugororwa wambaye impuzankano zabo, agapfukamunwa k'umuhondo, afite igitabo mu ntoki ndetse yambaye amapingu. Inyuma ye hari abashinzwe kubarinda, yambaye imyenda ya kake iriho n'ibendera ry'Igihugu ndetse n'amapeti.

Umugabo wambaye ikanzu y'abasoje kwiga kaminuza, yambaye karuvati y'umukara, n'ishati y'umweru, afite ubwanwa hejuru, ndetse n'umusatsi mucye.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara, ufite imisatsi iringaniye, imbere ye hari amacupa abiri atandukanye ndetse n'ikirahure, hari n'agatabo, afite n'ikaramu mu ntoki.

Mu rukiko harimo abantu benshi, hakagira abantu bambaye imyenda y'imikara ndetse n'uwambaye iroze, bahagaze imbere y'abayobozi, kandi umwe afite amapingu mu ntoki.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe, bicaye mu nama, bameze nk'abayobozi barimo gutanga ikiganiro ku bandi babakurikiye, imbere yaho hari amazi yo kunywa ndetse kandi buri wese afite igitabo ari kwandikamo.

Inyubako yanditseho gereza ya Muhanga, ifite ibara ry'umweru n'umukara ku muryango ndetse hariho n'inzugi z'ibyuma, imbere harimo abagororwa n'andi mazu atandukanye, hakaba n'ikirere kiriho ibicu by'umweru n'ubururu.

Ni umwari ufite imisatsi izinze nyweri, yambaye umupira w'icyatsi amanitse akaboko arafungura icyapa afite umupira wanditseho ijambo vuba, icyapa afungura nacyo cyanditseho ayo magambo.

Umugabo wambaye imyenda y'imyeru ndetse ari kumwe n'abacamanza mu rukiko, hari intebe nyinshi zitandukanye, zimwe zisize verini, izindi wagira ngo nta kintu kiriho.

Hari ibiti byinshi, mu imbere hakaba ibyuma bifunze umuryango ndetse hakaba hari icyapa cyanditseho ngo igororero rya Musanze, rikagira ikirangantego ndetse na nimero ya telefoni itishyurwa.

Abagabo batatu barimo kuganira ndetse barebana, umwe yambaye ishati y'umuhondo, abandi bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru.

Umusaza ufite imvi mu mutwe ndetse n'ubwanwa, wambaye igipira kinini gishyushye, ntihinjiremo ubukonje. Hakaba hari intebe ziri inyuma ye ndetse n'imisego.

Umugabo yambaye ishati nziza, ahagaze imbere y'abantu ari kubigisha, afite agatabo mu ntoki, bigaragara ko hari inyigisho ari kubagezaho, bamukurikiye bose.

Abagabo bambaye neza, amakoti ndetse harimo n'umugore, bafite udutabo mu ntoki, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amarinete, inyuma yabo hari abandi bicaye ndetse hari n'abahagaze mu nguni.

Imfungwa zicaye muri sale, zifite imashini, zambaye imipira y'umuhondo, udupfukamunwa tw'umweru. Bicaye ku ntebe z'umuhondo, inyuma yabo hari ubashinzwe.

Imodoka itwara abapolisi bakora umutekano wo mu muhanda, ni imodoka ifite amapine ubona ko asanzwe ariko ikaba iri mu modoka zihuta cyane ndetse yanditseho amagambo agaragaza ko ari ikora mu mutekano wo mu muhanda.

Imodoka itwaye imizigo ihagaze mu muhanda icanye amatara ndetse iruhande rwayo hari abapolisi babiri n'abandi bantu hirya barimo kwitegereza, bigaragara ko hari ikintu cyabaye, imodoka zose zihagaze ziteye kimwe.

Inyubako nini igaragarira buri wese, hari imodoka ziparitse iruhande rwayo, harimo n'imodoka ya polisi ndetse n'umupolisi urimo gutambuka imbere y'izindi modoka, bigaragara ko ari ku cyicaro cya polisi.

Inyubako nini cyane iriho amabara atandukanye, iruhande rwayo hasi haparitse imodoka ya polisi ndetse n'ivatiri nto, hari ahashashe amatafari ahiye hafi y'iyo nyubako.

Imodoka nini y'umukara iri munsi y'ibiti, hakaba icyuma batega mu nzira kugira ngo ibinyabiziga ntibitambuke.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, wambaye impuzankano, ari ahantu hari abantu benshi ku iduka ricuruza amatelefoni ya tekino, ndetse hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye biri hanze.

Abantu benshi bahagaze ahantu hari shitingi, hariho ibikoresho bitandukanye ndetse n'abandi bambaye imyenda y'akazi, hari abaporisi n'imodoka itwara imizigo nini.

Aho imodoka zikunda guhagarara, iruhande rw'inzu hari iya polisi ihagaze ndetse n'izitwara imizigo, hari n'abantu batandukanye bahari buri wese ubona ko ari muri gahunda ze.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye ijire ri y'akazi, atambitse akaboko ahagarika imodoka itwara abagenzi iri imbere ye, hari na moto iri iruhande rwe ndetse ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Ihuriro ry'abantu benshi bayobowe n'abantu batatu bambaye imyenda y'imyeru, iriho n'ibirango byabo. Bose bazamuye ikiganza mu kirere ndetse bamwe muri bo mu bazamuye harimo abafite uducupa abandi amadarapo.

Abantu babiri bicaye bafashe mu biganza byabo, bafite amasaha ku kuboko, umwe ni umugore undi ni umugabo, bicaye ku ntebe z'imikara, iruhande rwabo hari utumeza duto barambitseho amakayi ndetse baragaragara nk'abantu barimo gutanga ibitekerezo.

Umuntu wambaye ishati y'umutuku asuhuzanyije n'umugore wambaye ishati irimo amabara atandukanye, inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu kirimo izuba, rishaka, ingabo ndetse n'agaseke, naho ku ruhande rwabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo bambaye amakoti y'ubururu na karuvati, bafite amakayi mu ntoki. Bari kumwe n'abagore, na bo bambaye amakanzu meza bafite n'udukapu mu maboko, hafi yabo hari imodoka ndetse n'ibiti byinshi, hari n'ubusitani.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye umupira w'umweru, ingofero y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, amanitse akabokoko k'iburyo ndetse arinzwe n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru, hari amahema batunganyije uyu munsi.

Abagabo bambaye imyenda y'imyeru, bakambara n'ingofero z'umweru, zishushanyijeho ikirangantego, bambaye amapantaro y'imikara, bafite impapuro mu ntoki bari kurebaho ndetse hari n'icupa riteretse ku meza.

Ibiganza bibiri by'umukara, hagati yabyo harimo izuba ririmo umuhondo ndetse n'icyatsi. Munsi yabyo handitse ijambo rigira riti "Umurinzi."

Dore uko uturere twubakitse, habanza akarere, umurenge, akagari, umudugudu, ibyo ni byo bigaragaza umuntu wese uzwi.

Imbaga y'abantu batabarika bambaye imyenda itandukanye, bari ahari amabendera y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, kandi bambaye imyenda y'imyeru, abandi ubururu, umutuku ubona ko bose babyishimiye,

Abantu bambaye amakoti ndetse n'abagore bambaye amakanzu, bicaye mu nama. Imbere yabo bafite indangururamajwi, icupa ry'amazi, bose bari kuganira babiri babiri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, harimo amabara y'ubururu n'umutuku ndetse handitseho ijambo inkotanyi, akaba yambaye ingofero y'umutuku n'agapfukamunwa k'umweru, yambaye ibirahuri by'amaso by'umukara.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye bamwe bambaye amakoti, abandi amashati ndetse hari n'umuntu ufotora. Imbere yabo, hari amazi, mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Abantu basutamye bafite impapuro mu ntoki ndetse n'izindi ziri hasi ziriho amafoto y'abantu, bigaragara ko bari kubarura abatowe kandi bambaye imipira y'imyeru, hasi bambaye imikara.

Moto eshatu ziri mu muhanda, icyapa cyanditseho tora Kagame Paul. Hariho ifoto ya Perezida Paul Kagame ndetse n'umuntu uri kugenda hafi yacyo, inyuma yacyo hari inyubako ndende ndetse n'ibiti bibiri.

Abantu babiri bambaye umukara n'umweru bari gushyira urupapuro ahabugenewe, inzu barimo irimo indabyo nziza cyane ndetse n'ibikuta bisa neza biriho imitako myinshi.

Abantu benshi bahagaze hanze y'ikigo, abandi barimo imbere. Gifite amarembo ariho idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirango kigaragaza ibihakorerwa.

Imodoka itwara imizigo itwikiriyeho shitingi, hirya y'aho hari ibiti byinshi biri ku murongo ndetse n'ahari ikekana ko bari kubaka.

Imodoka itwara imizigo iri inyuma ya moto nayo itwara indi, zirashoreranye kandi hari insinga ziri mu kirere, amatara n'ibiti ku muhanda.

Iyi modoka ndende itwara imizigo iri mu muhanda hafi y'aho bacururiza inzoga zikorerwa mu nganda, imbere yayo hari moto ndetse n'imodoka irimo kuza mu cyerekezo iyo modoka yindi iturutsemo.

Ni nijoro, iruhande rw'umuhanda hari imodoka zicanye amatara na moto ndetse imbere yazo hari umuntu wikoreye umutwaro munini. Hari inyubako zifite ibirango bicanye.

Ibyapa biri ku muhanda n'imodoka ziri kugenda mu muhanda. Inyubako ziri iruhande rw'umuhanda, ibiti bitandukanye biteye iruhande rw'umuhanda ndetse hari n'ibiti bitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibinyamitende. Hari abantu benshi bari kuwugendamo, iruhande rwawo hari inyubako ndende igeretse rimwe iriho ibyapa byinshi, igaragaza ko ari inzu y'ubucuruzi.

Abantu batatu bari hagati ya Ritco imodoka nini ikoreshwa mu Rwanda ndetse imbere yabo hari umusore wambaye inkweto y'umweru, ipantaro ya kake ndetse n'umupira, hari n'abandi bari hafi y'umunara ndetse n'abandi bari inyuma y'izo modoka.

Imodoka nini ikunze gutwara amabuye, umucanga ndetse n'ibindi, iri mu muhanda, hari moto inyuma yayo, n'umunyamaguru, uri kuva mu muhanda muto yerekeza mu munini.

Imodoka nini itwaye matera nyinshi, hejuru yayo hari ishitingi izifasha, inyuma yayo hari moto itwara imizigo nayo irimo kujya mu cyerekezo gitandukanye n'icy'imodoka iri kujyamo.

Iruhande rw'umuhanda hari indabyo n'ibindi bimera bitandukanye, hari abantu bahagaze iruhande rw'inzu y'imodoka na moto zitwara ibinyabiziga ziri mu muhanda, amatara nayo yakira umuhanda nayo aragaragara ndetse n'amazu menshi yerekana ko ari mu mujyi.

Abantu bari ku nkengero y'umuhanda, moto itwara ibinyabiziga nayo iri kugenda, amatara nayo aramurika ndetse hari n'ibiti bitandukanye biri ku nkengero yawo.

Imodoka nini zitwara imizigo, ziri imbere y'umumotari nawe uri mu muhanda. Iruhande rwawo, hari ibiti bizitiwe, bigaragaza ko hari ibirimo imbere muri ibyo biti ariyo mpamvu hazitiye.

Imodoka ni nyinshi aho zihagarara n'urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bikoreye imifuka iremereye cyane, abandi bafite ibikapu mu mugongo ndetse hari n'abashinzwe gutwara izo modoka bari kugaragara imbere y'abagenzi.

Moto nyinshi zihagaze ahantu hamwe, zitwaye imizigo, hari abantu benshi bahagaze hafi yazo. Imbere y'inyubako ifite ibirahure ndetse hari n'ibyuma biba inyuma y'ibirahure. Hari n'icyapa cy'umweru.

Imodoka ntoya itwara imizigo iri mu muhanda irimo abantu batatu, babiri bicaye imbere aho batwarira ndetse n'uwicaye inyuma aho batwara imizigo, hari n'abandi bane bari kugenda, hirya hari abari kubaka n'ibiti bitandukanye bihagaragara.

Imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda, hari n'umunyamaguru uri kugenda ayisatira, ahetse igikapu gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ikijuju, yambaye ipantaro y'umweru n'inkweto zirimo amabara.

Imodoka nini zitwara into, ziri mu muhanda, zigiye guhura. Iruhande rwazo hari ibiti by'amoko atandukanye. Hari n'izindi zihagaze zo zitarimo kugenda. Mu muhanda kandi harimo abanyamaguru bari mu nzira zabo.

Aho imodoka zihagarara harimo nyinshi, abantu benshi n'umugabo ufite inda, wambaye inkweto ya kaki, n'ipantaro y'umukara, umupira wa kaki, ingofero yo ni umweru, afashe ku modoka ifite irangi ry'umweru, ubururu.

Imodoka itwara imizigo iri mu muhanda imbere yayo hari moto ndetse n'inyuma yayo hari umuntu uri kugenda ku ruhande afite agakapu ku rutugu.

Imodoka eshatu zitwara imizigo, ebyiri ziri kugenda zihagazemo abantu kandi hari ihagaze iruhande rw'inzu z'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, bari gukuramo bigaragara ko bavuye kurangura.

Mu muhanda ibinyabiziga birimo kugenda, harimo moto, imodoka kandi hari n'abantu bari ku ruhande barimo kwigendera. Hari ibiti bikikije umuhanda kandi ibyo biti bikaba bifite amoko atandukanye.

Imodoka nini itwara amatungo, ifite ibara ry'umweru n'umutuku, iruhande rwayo hari abantu babiri bari kugenda, umwe yambaye imyenda y'imikara n'inkweto za kaki.

Imodoka nini itwara peterori iri mu muhanda, hari ibiti byinshi biri ku nkengero zawo ndetse n'abantu benshi biteruye aho ngaho uri, bafite ibintu barimo gukora wagira ngo barimo kubaka inzu.

Imodoka itwara imizigo harimo ibitembo bimanuye ndetse iruhande rwayo hakaba ibiti byinshi, inyuma yabyo hari uri kubaka cyangwa kuvugurura, hepfo yaho hari inzu igaragara hejuru ku mukingo itari munsi.

Ku muhanda hari imodoka ziparitse ndetse hari n'iziri mu muhanda rwagati zirimo kugenda, imwe iparitse ku ruhande, irimo umuntu uri kuyikora bigaragaza ko ifite ikibazo ndetse n'uyitwaye ari iruhande rwayo, hari abanyamaguru barimo kugenda mu mukono wabo.

Mu mujyi hari ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto iri mu muhanda ndetse n'indi ihagaze, inyubako zo ni nyinshi ndetse hari n'indabyo ziteye umuhanda zigaragaza isuku.

Imodoka nini itwara imizigo, ifite ibara ry'umukara, iri mu muhanda, iruhande rwawo hari ibiti byinshi ndetse hari n'inyubako iri inyuma y'ibyo biti.

Mu mujyi rwagati harimo abantu barimo kugenda mu muhanda ndetse n'abandi bicaye ku nyubako zihari, hari amazu menshi ndetse hari ubusitani bwinshi hafi y'umuhanda.

Mu mujyi hari inyubako ndende ndetse iruhande rw'izo nyubako, hahagaze abantu benshi abana, urubyiruko ndetse n'abakuru. Harimo n'abanyamahanga, iruhande rwaho hari indabyo nziza cyane ndetse hari n'igiti cy'umukindo, kiri iruhande rwabo.

Inzu nto iri mu biti byinshi bitandukanye ndetse biyisumba, imbere yaho hari ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko, kirimo n'igikoresho bifashisha bakina.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina, hari uri hanze urimo gufunga inkweto, iruhande rwe hari igikapu ndetse n'ikindi cy'umukara, hari n'icupa rihateretse ry'amavuta, hafi y'icyo kibuga hari ishyamba ryinshi.

Ikibuga gikinirwamo umupira, harimo abakinnyi benshi bari gukina ndetse hari n'inyubako abafana bicaramo mu gihe cy'imikino isanzwe, hari ibyuma bizengurutse ku ruhande, bituma umupira utajya hanze.

Ubusitani bwiza bufite intebe ndetse ntihasakaye bimwe byabuza ko izuba ribica, wa wundi muto atsinze wa mugabo we.

Ku kibuga cy'umupira hari abantu babiri bicaye aho abatanze amafaranga menshi bicara baje gufana, haba hatwikiriye ndetse hari igare ryegetse ku byuma bihafashe.

Icyapa kigaragaza ko hari ikoni. Icyo cyapa kizengurutswe n'ibara ry'umweru, naho iki kimenyetso kigaragaza ikoni kiri mu ibara ry'umukara, gitetse mu ibara ry'umweru.

Icyapa kirimo ikimenyetso cy'umusaraba, iruhande rw'umuhanda harimo imodoka n'abantu bari kugenda mu nzira yabo, n'urukuta rw'inyubako iri ku muhanda, ndetse n'ibiti, n'indabyo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kizengurutseho ibara ry'umutuku cyerekana ko umuhanda umanuka, hari itara ku muhanda ndetse n'urukuta ruri hafi yawo ndetse hari n'inyuguti ya a yanditse mu kirere.

Ibinyampande bine, biri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hakabamo uturongo tugaragaza ibyerekezo tubiri, turi mu ibara ry'umukara, ndetse hari n'irindi ry'umukara rizengurutse ku mpande.

Icyapa kiriho aho abanyamaguru bambukira kiri mu ibara ry'ubururu ndetse aho abanyamaguru bambukira akaba ari umweru, hari ibiti bibiri binini kiri hagati ndetse hari n'ibitoya bingana nk'indabyo.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umutuku n'umweru, kikaba kirimo agakoni, bigaragaza ko aho hantu hadakoreshwa n'abantu bose.

Icyapa kirimo inyuguti ya p iri mu ibara ry'umweru cyo kikaba gisa ubururu, kizengurutseho n'irindi bara ry'umweru, ndetse aho kiri hari ibara ry'umweru.

Uruziga ruri mu ibara ry'umweru, rukagira imibare iri mu ibara ry'umukara mirongo itatu, rukaba ruzengurutswe n'ibara ry'umutuku, hasi yaryo handitse amagambo mu ibara ry'umweru ,akaba yanditse mu mukara.

Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite icyapa kiriho agakubo k'umutuku, haruguru yabyo hari imodoka ebyiri n'umuntu uri hagati.

Umuhanda mwiza ufite uruhande ruriho amabara y'umukara n'umweru ndetse hateye indabyo iruhande rw'umuhanda zitandukanye, hari imikindo n'icyapa kigaragaza ko bagiye kugera mu isangano ry'imihanda.

Umuhanda urimo icyapa kigaragaza ko hari aho umuntu yambukira, hari indabyo nyinshi nziza ziteye ubwuzu ndetse n'imikindo hagati aho, hakaba n'ibiti binini byoherereza umwuka duhumeka.

Icyapa cyo ku muhanda kirigaragaza aho abanyamaguru bambukira, harimo abantu babiri, ishusho y'umukobwa n'umuhungu bafatanye akaboko barimo kwambuka, iki cyapa kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ndetse aho harimo ifoto y'umukobwa n'umuhungu ni mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho abantu babiri bari kwambuka umuhanda ndetse kizengurutse n'ibara ry'umutuku. Hari ibiti byinshi bitandukanye n'ibyuma biri hejuru, hari n'urukuta rwubakishije amabuye rurimo ibitembo bito.

Inyubako nini ifite ibirahure bitandukanye ndetse iruhande rwayo hari imodoka ihagaze y'umutuku n'ibiti inyuma y'iyo nyubako birimo guhinguka ndetse hari n'ibindi biri mu rugo bikora mu buryo bw'indabyo bitoya.

Inyubako nyinshi, harimo izigeretse kenshi n'izitageretse zizwi ku mazina y'uducurama, ibiti byinshi biri hagati yazo ndetse n'imihanda y'ibitaka.

Umugore udafite umusatsi wambaye linete, ikanzu y’iroza ryerurutse, abantu benshi inyuma ye.

Mu ishyamba ryiza ririmo ibiti binini ndetse n'ibito handitseho ko ari pariki yitwa Nyandungu, hari n'ipoto riri hafi y'umuhanda ndetse hicayemo abantu babiri bambaye imyenda, umwe w'umuhondo undi akambara umweru.

Umujyi ugizwe n'inyubako nyinshi zitandukanye, harimo indende n'intoya zigezweho. Hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'urutoki munsi y'ahari inyubako ntoya.

Inyubako nyinshi zigaragaza ko ari mu mijyi, inyinshi zifite ibara ry'umweru, hari ibiti bitandukanye ndetse n'ibyapa byerekana ko hari akabari n'ikirere cy'umweru.

Imbere y'akabari haparitse imodoka y'umukara nziza cyane, hari ibirango by'ibyapa biri hafi aho kuri aka kabari gafite icyapa ndetse ubona gasobanutse.

Imodoka y'umukara nziza ndetse nyuma yayo hari umuntu wambaye imyenda y'umweru n'igikapu cy'umukara, hari inzu zishaje imwe yamezeho ibyatsi.

Umujyi urimo inyubako zitandukanye, zifite amarangi menshi, harimo ibiti bitagira ingano ndetse n'amabati amwe y'umweru, andi y'umutuku.

Amazu meza atagira uko asa yegereye umuhanda kandi afite amarembo meza, azengurutswe n'amatara, iruhande rw'amarembo hari indabyo nziza zigaragara ko zitabwaho n'ababishinzwe.

Inyubako ndende, ahanini igizwe n'ibirahure kuva hasi kugera hejuru, yanditseho Gihozo hoteli, iruhande rwayo hari imodoka ebyiri, ndetse n'umuntu uri ku igare, n'abandi bashaka kwinjira.

Umuhanda w'igitaka hari imodoka nyinshi zihagaze iruhande rwawo, hari n'inzu hirya ifite amabara y'umweru n'ibiti dore ko ibiti bifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu.

Inyubako z'ubucuruzi ziriho ibyapa byinshi bitandukanye, kimwe muri cyo kiragaragaza ko ari aho bacuruza amata, ahandi hari imyenda myinshi hanze, ndetse imbere y'izo nzu hari ibiti.

Inyubako nyinshi zirimo amabati y'umutuku ndetse zikagira n'irangi ry'umweru, zimwe zikagira irangi ry'umuhondo, hari ibiti by'amoko atandukanye n'ikirere gisa neza cy'umweru.

Inyubako nziza kandi nini yubatse iruhande rw'umuhanda, ifite amarembo asakaye, iruhande rwayo hari imikindo n'ibiti ndetse n'indabyo, hari umukobwa uri kugenda wambaye ikanzu, ufite akajerekani k'umweru mu ntoki.

Inyubako ndende igeretse gatatu, iriho ibyapa byinshi bigaragaza ko hakorera ibintu byinshi bitandukanye, harimo ubucuruzi n'ibijyanye n'itumanaho Airtel.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'amarembo, umwe yambaye ipantaro y'umweru, ishati y'umutuku, undi nawe yambara ipantaro ya kaki, n'ikoti ry'umukara, bari kwitegereza mo imbere mu nyubako, ikindi hari indabyo hafi mo imbere mu kigo.

Inyubako igereretse rimwe, ifite ikirahure kinini ndetse n'ibyapa byamamaza ndetse imbere y'iyo nyubako hari intebe, hari n'indabyo n'igiti kinini iruhande rwayo ndetse ifite imiryango myinshi itandukanye, bigaragara ko hari ibintu bihakorerwa bitandukanye.

Inzu ndende igizwe n'ibirahure ndetse n'igice kimwe kiriho amarangi atandukanye, iruhande rwayo hari inzu ntoya ndetse na jaride irimo ibiti bitandukanye, kandi hari n'icyapa cya Airtel cy'itumanaho kigaragaza ko hari serivisi zayo.

Mu muhanda rwagati ahari inzira abanyamaguru bambukira n'umurongo imodoka zihagarara cyangwa moto, zitegereje ko abantu bava mu muhanda, hari ibiti biri hafi yabo ndetse n'amatara, hirya yabyo hari inyubako ntoya zihari.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka y'umutuku na moto ndetse hari ibyapa bigaragaza amerekezo. Ibiti by'amoko menshi ku ruhande rwawo.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga, moto ndetse n'abantu bari kugenda ku ruhande, ibiti by'amoko yose na byo birahari kandi umuhanda uratatse neza, kuko ufite utubara tw'umukara n'umweru ku mpande basigishije irangi.

Mu muhanda hari kugendamo imodoka nto, itwara imizigo ndetse na moto inyuma yayo, harimo n'abantu barimo gutembera, iruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi bitandukanye, ndetse hari n'ubusitani ku muhanda.

Umuhanda w'igitaka, iruhande rwawo hari amazu atandukanye ariko ubona adashamaje, hari indabyo nziza ziteye hafi yaho ndetse n'ibiti bitandukanye bifite indabyo z'umutuku, hari n'amarembo afite ibara ry'ubururu.

Mu muhanda harimo imodoka ebyiri, imwe y'umutuku indi y'umweru, ku ruhande hari ipoto riryana insinga, ndetse hari n'ibiti iruhande rwawo, inyuma yabyo hari inyubako.

Amatara ari kwaka, imodoka zicanye amatara mu muhanda, hari imikindo, indabyo ndetse n'urukuta rurerure cyane n'ibyapa bigaragaza ko ariho imihanda myinshi ihurira.

Umuhanda ugira aho abagenzi bambukira harimo umunyamaguru uri kwambuka kandi avugira kuri telefoni, hari ibinyabiziga birimo kuza ndetse hari n'amatara yo ku mihanda n'imirongo y'imyeru igaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Mu muhanda rwagati harimo ibyatsi n'itara rihamurikira, hari moto, imodoka, ndetse n'ibiti byinshi bizengurutse kuri uwo muhanda.

Umusaza uri mu muhanda ari kwambuka mu nzira y'abanyamaguru, imodoka iri kuza y'umukara, igahagarara hafi y'aho abanyamaguru bambukira. Hari inyubako nini, ibiti byinshi ku mpande yawo.

Mu muhanda harimo igare, moto n'ibyuma biri kumuhanda, bishobora kuba bitanga urumuri ndetse hari n'ibihuru byinshi bigaragara ko hafi yaho hari pariki.

Umuhanda mwiza ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ku mpande hateye indabyo nziza, hari n'utubara tw'umweru n'umukara ku mpande iruhande rwizo ndabyo. Uwo muhanda urerekana ibyerekezo bibiri bijya ahantu hatandukanye.

Akazu kicaramo abantu bategereje imodoka ku muhanda gafite ibara ry'ubururu ndetse karasakaye. Hari imodoka na moto, ibiti by'amoko atandukanye bihazengurutse.

Mu muhanda harimo moto imodoka nini itwara imizigo ihagaze n'icyapa cyereka ko ifite ikibazo, hari n'izindi z'umweru, umukara ziri kugenda hari ibiti kumpande yawo.

Mu muhanda rwagati aho imihanda ihurira, haruguru y'aho hari aho abanyamaguru bambukira ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti bitandukanye by'amoko yose, hari n'icyuma kiri hagati na hagati mu muhanda.

Umuhanda mugari urimo amatara ndetse n'inzira y'abanyamaguru aho bambukira. Harimo moto ndetse n'abagenzi ku mpande, hari ibiti impande yawo n'indabyo nyinshi zitandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka, hari indabyo hagati y'aho imihanda ibiri ihurira ndetse n'imikindo ku mpande, hari inzu nini imeze nk'urusengero ifite amabati y'ubururu.

Umuhanda mwiza cyane ufite amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, hari indabyo ziri hafi yabo n'imodoka irimo kugenda, aho hari umuntu uhagaze iruhande rwawo ategereje ko imodoka zihita.

Umuhanda urimo moto imwe ku mpande yawo hari ibiti byinshi ndetse n'inzira y'abanyamaguru, inyuma yabyo hari ibyatsi byinshi bigaragaza ko hari umubande.